Imodoka nini yifashishwa mu gutwara ibintu, iraparitse ndetse irimo imifuka myinshi irimo ibara ry'umweru, inyuma yayo hari abagabo bakora akazi ko gutwara imizigo, bazwi nk'abakarani ndetse bari gupakurura imifuka iri mu ibara ry'umweru.